Umugore n'umukobwa bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza harihoho ibitabo, umugore afite indangururamajwi arikuvuga.

Inzu eshatu imwe ifite amategura y'umutuku, indi ifite amabati y'umweru, indi ntabwo amabati yayo agaragara ahubwo urugi rw'ubururu, igiti, ipoto y'amashanyarazi.

Mto ziparitse ahantu hari nyinshi, umumotari uzihagaze iruhande, umugabo uri haruguru yazo uri kugenda yihuta, agafuka kari imbere y'izo moto, kameze nk'ako bamenamo imyanda.